Urubuga rw'irembo rudufasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho ukanda akanyenyeri, icyenda, zero, icyenda, urwego, ugakurikiza amabwiriza.

Mu ihuriro ry'imihanda, ahari urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, hari amatara yifashishwa mu kuyobora imikoreshereze y'umuhanda, kandi abantu bahari buri wese agiye mu bikorwa bitandukanye.

Ku nzu y'ikigo gishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu cya polisi y'igihugu, ari imodoka z'ubwoko butandukanye ndetse n'inyubako zaho.

Ibisubizo by'ibarurishamibare byakozwe hagamijwe kwerekana umubare w'abagore n'abagabo bakora muri gahunda cyangwa mu nzego zigiye zitandukanye za leta.

Icyapa cyo mu muhanda. Cyifashishwa mu kuyobora abayobozi b'ibinyabiziga, kibamenyesha ko imbere mu muhanda bagiye kunyuramo, hari imisozi.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.